Umugabo wambaye ikoti rya kaki n'umupira w'imirongo y'umutuku, amanitse poshete ya terefone, ari mu rwunge rw'abantu benshi, aho bari kuziguririra za Eyateri.

Umugabo wambaye ijire ya MTN n'ishati y'umweru, akaba atanga serivisi zo kubika no kubikura cyangwa kugura amayinite.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bizwi nka butike, hakaba harimo umumama ucuruza uteze igitambaro, hakaba hari n'umuzani uteretseho ifarini, imbere ye hariya umumama uje guhaha.

Isoko ricururizwamo imyenda y'abagore, amakanzu atandukanye, hasi hari ihema ritwikiriye ibintu, isoko rikaba ryubakishije ibiti.

Isoko ririmo ibintu byinshi bigiye bifunze amapaki, amapaki, akaba ari amarido, amashuka.

Inzu nini cyane kandi ndende ikorerwamo resitora. Aho bakira ababagana bakabaha ifunguro ryaba iry'amanywa cyangwa irya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cya moto, gitwawe n'umugabo wambaye umupira mu ijosi w'imbeho, akaba ahetse n'undi wambaye ishati y'umukara, bose bambaye kasike.